Ni urugo rwubatse rufite intebe mu nzu, n'ameza kandi n umuntu umwe uhagaze uyihagaze.

Ni ishuri ririmo intebe pipitire n'ikibaho, ku kibaho hari ibintu bihashushanyije.

Ni ibiro bubatse ku butaka. Bifite ubusitani. Bifite umuhanda w'amapave ugiye mu biro. Bifite ibyumba bibiri.

Iyi nzu yubatse ku butaka，yubakishije amatafari ahiye，ifite umuryango ufatanye n'idirishya, ifite n'amakaro ku ruhande.

Ni ishuri ririmo intebe harimo n'ikibaho. Urugi ruteye irangi ry'ubururu.

N'inzu zicururizwamo ibintu bitandukanye harimo amasabune ndetse n'amakara.

Ni umukobwa uri kwigisha ikoranabuhanga, yambaye ingofero y'umuhondo, yambaye igisurubeti, afite na mikorofoni. Ari kujya arakora kuri buri kantu.

Ni umukozi uri mu bikoresho by'ikoranabuhanga, arimo gukanika.

Ni abanyeshuri bari ku meza bari kumwe na mwarimu wabo ,bagiye gutahura ngo barye.

Ni ikigo cy'ishuri, ni hoteri yubatse igeretse gatatu ifite ubusitani, harimo n'ibindi bintu bitandukanye byo gukoresha.

Ni abanyeshuri bari mu ishuri ,bicaye bateze amatwi mwarimu kugirango abasobanurire ibyo batari kumva.

Ni ishuri ririmo abanyeshuri bari kwiga iby'ikoranabuhanga, ni abahungu n'abakobwa.

Ni ikigo cy'ishuri, mu ishuri bari kwiga iby'ikoranabuhanga bijyanye n'amashanyarazi, ni abakobwa bane.

Mu ishuri ririmo abanyeshuri bari kwiga kudoda, harimo abarimu abagabo n'abagore.

Ni ishuri ririkwigisha iby'ubufundi, harimo kubaza, guteranya intebe, ndetse n'imiseni.

Abanyeshuri bari kwiga, umukobwa wifashe ku itama, hari na mwarimu uri gushushanya ku kibaho.

Hari abakozi bari gukora ibintu bitandukanye. Mu ibarizo harimo ameza, harimo imashini, harimo abantu bambaye udupfukamunwa, hakabamo n'abandi bantu bambaye ibisurubeti.

Ni umubaji, afite iranda mu ntoki, yambaye akagofero k'umutuku, yambaye n'imyenda y'ubururu, n'isarubeti.

Ni ibitaro by'amatungo barimo kuvura intama. Bashyize icyumvirizo mu matwi.

Ni abakozi bo muri resitora bari gutegura ifunguro ryo kwakiriza abashyitsi, bambaye udupfukamunwa, bambaye ingofero z'umweru, bambaye n'amataburiya y'umutuku.

Ni abaganga babiri, umugabo n'umugore, umwe ari gutunganya ibintu ku gaparato, undi nawe afite ikindi mu ntoki.

Ni ishuri ririmo abanyeshuri bari kwiga gushushanya, akaba ari kutugaragariza gushushanya, afite urupapuro rushushanyijeho n'ikaramu, mwarimu.

Ni umugabo uri gukora iby'amazi, yambaye imyenda y'ubururu, ingofero y'umweru, imashini ni umutuku.

N'abanyeshuri b'abapfundi bari kwiga ubufundi, bakatisha imashini abakobwa, abahungu.

Ni abanyeshuri bari ku ishuri, bari gutega inzu yubakishije amatafari, bambaye ibisarubeti by'ubururu.

Abaganga bari kwiga kuvura. Bafite ipamba ku cyuma, undi yambaye ga...

Ni abafundi bambaye imyenda y'umuhondo, n'ingofero z'umutuku n'iz'umuhondo, bari kwiga iby'ikoranabuhanga.

Ni mu biro hari intebe, hari ameza, hari imitako, harimo utubati. hari ibase.

Hari imashini hari n'uri gukora mashi ku mashini, harimo imashini eshanu hakaba n'umukobwa urimo kuzikoresha.

Ni ibikoresho biri mu biro, harimo ameza, intebe n'ibindi bikoresho biri ku meza n'akabati.

Ni ishuri ririmo abanyeshuri bari kwiga mudasobwa imashini. Bambaye udupfukamunwa.

Ni abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga iby'ikoranabuhanga, harimo ibikoresho bitandukanye, harimo abagabo batatu.

Ni abanyeshuri bari mu ishuri bari kumwe na mwarimu. Ishuri rigaragaza ibyo bari kwiga.

Ni icyumba cy'ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye . Iby'amazi, n'iby'amashanyarazi.

Ni abakanishi bari gukora ibintu bya tekinike, ni abagabo batatu bambaye ingofero z'umuhondo.

Ni mu ishuri abanyeshuri bari kwandika, bicaye ku ntebe. Intebe ni pipitire.

N'ishuri ririmo abanyeshuri bari kwiga imashini bambaye udupfukamunwa, hari n'umwana uri imbere yabo.

Ni abantu babiri b'abakobwa bari mu ikoranabuhanga, bambaye amajire y'umukara.

Hari ameza hari intebe, ubururu umuhondo, hakabaho n'ikibaho hakabaho n'udushusho n'umuryango.

Ni umwarimu uri mu ishuri, uri kwigisha iby'ikoranabuhanga, harimo imashini, harimo n'abanyeshuri babiri bari kwiga.